Uyu ni umuceri barimo bari gutera umuti kugira ngo baririnde ibyonnyi. Umuceri ni igihingwa cyo mu bwoko bw'ibinyampeke bifashisha bawurya, cyangwa babucuruza bakaza kubona amafaranga, kandi umuceri ukunze guhingwa mu gishanga cya Bugarama.

Iyi ni inyongeramusaruro bakoresha bafumbira imyaka itandukanye, ikaba yitwa Enipeka. Inyongeramusaruro ni nziza, kuko ituma imyaka ibaho neza, igakura neza, igatanga umusaruro ushimishije.

Iyi foto ndi kubonaho imifuka irimo inyongeramusaruro, ifumbire nyongeramusaruro, iri munsi y'igiti, iyo fumbire iri munsi y'igiti, ikaba iteretse ku mbaho zishashe neza, hirya hari ibyatsi bihakikije byinshi. Nibyo mbona kuri iyi foto.

Ubu ni ubuhinzi bw'ibigori aho abahinzi bitabiriye gushyira inyongeramusaruro ku bigori, kugira ngo bize gukura neza. Ibigori ni byiza, wabirya ari bibisi, wabyotsa, wanabiteka, bivamo n'ifu abantu bakarya n'umutsima, bikanavamo n'igikoma, baranabigurisha bikavamo n'amafaranga.

Aya ni amafi bokeje kumbabura, amafi ni ubwoko bw'inyama z'umweru, dushinganye kurya inyama z'umweru, kuko ari zo zitagira ingaruka nyinshi mu mubiri wacu.

Icyo nabasha kuvuga kuri iyi foto, ni uko hari isambaza nyinshi, kandi isambaza zikaba zigira umumaro mu kurinda igwingira ry'abana n'imirire mibi muri rusange. Izi sambaza bikaba bigaragara ko zikiri mbisi, zitumye mbese muri rusange.

Ubu ni ubuhinzi bw'ibinyomoro, ibinyomoro n'ubwoko bw'imbuto bukoreshwa turimo kuburya kandi ibinyomoro byongerera amaraso, bikanatanga n'amafaranga iyo babigurishije umuntu runaka, harimo n'ubuhinzi bw'ibitoki, kuko ibitoki nabyo ni kimwe mu biribwa bikenerwa bya buri munsi.

Aha ni ubuhinzi bw'amashaza cyangwa se amajeri muri rusange, hakaba harimo n'ibishyimbo basaruye, harimo n'imishingirizo, amashaza akaba ari mu bwoko bw'ibinyampeke, dukenera buri munsi bidutera imbaraga.

Ibi ni ibyatsi bita urubingo ,ubu bwatsi akaba ari bwo bagaburira inka kugira ngo zimererwe neza, cyangwa se bakabugurisha bakaza kubona amafaranga. Ubwatsi rero burakenewe mu buzima bwacu bwa buri munsi ,hari n'urutoki mbona ruhari ,hakaba hari n'ubwiherero bwubatse muri urwo rutoki.

Izi ni karoti. Karoti ni ubwoko bw'imboga turya tuvanzemo n'ibishyimbo, kandi karoti ni nziza ziragurishwa zigatanga amafaranga, karoti zihingwa ahantu hatandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, harimo no mu karere ka Musanze.

Aha ni aho basaruye ibigori barimo guhinga, bashaka guteramo iyindi myaka, bigaragara ko abahinzi barimo guhinga banezerewe cyane, ku bigaragara ko ari umunsi mwiza, urangwa n'akazuba kuko harakeye.

Icyo nabasha kuvuga kuri foto ni uko ari ifoto igaragaza ibihingwa bitandukanye ahantu bahinga. Ni ibihingwa bitandukanye birimo ibirayi n'amasaka ubona inyuma hirya ya biriya biti biri inyuma by'indumburabutaka hari ibishakashaka bigaragara ko wagirango ngo basaruye amasaka cyangwa se ibigori.

Ubu ni ubuhinzi bw'icyayi buhinze ku materasi y'indinganire, amaterasi arwanya isuri, kandi icyayi ni igihingwa ngengabukungu cyoherezwa mu mahanga, tukakira amadovize.

Iyi foto ndabona aho abagabo bambaye ingofero bari kuhira imboga, abandi bazibagara nizo ndi kubona kuri iyi foto ariko urebye hakurya hari n'imisozi isa n'ijya kugaragaraho.

Uru ni urusenda. Urusenda ni kimwe mu birungo, bikenewe kugira ngo ibiryo bize kuryoha urusenda ni rwiza cyane ko runagurishwa rugatanga n'amafaranga, kabone nubwo rufite isura nziza.

Iyi foto ndabona iriho umuhinzi wishimye wabigize umwuga. Akaba ari umuhinzi wahinze inyanya ariko zitarere. Hari n'ibiti bitandukanye biri inyuma ye, uyu muhinzi arishimye cyane akaba yambaye n'imyenda, igaragaza ko yahawe amahugurwa atandukanye, mu byiciro bitandukanye.

Aha ni ahantu hakorerwa ubuhinzi bw'inanasi, inanasi akabari ubwoko bwi mbuto bukunze gukorerwa cyane cyane mu karere ka gakenke, harimo na banyirazo barimo kuzitambagira barimo gukora ibarura, harimo umuntu urimo kwandika akoresheje ikaramu n'ikaye.

Iyi ni ifoto mbonaho umuhinzi w'umunyamwuga w'umukecuru, akaba ari umukecuru witaye rwose ku buhinzi bwe, arimo kuhira imyaka yifashishije ibase, bivuze ngo aracyakeneye ubufasha, bwo kuba yabona ibikoresho byabugenewe mu kuhira imyaka, ariko ndabona ari n'umukecuru usobanutse cyane, kuko mbona yambaye n'umwenda ugaragaza ko yahuguriwe ubwo buhinzi.

Ibi ni ibirayi. Ibirarayi ni igihingwa ngandurarugo, ni bihingwa kandi nanone gihingwa mu gihugu cyose, harimo n'akarere ka Musanze, ibirayi bikaba bigurishwa, bigatanga amafaranga, abantu banabikoresha bari no kubirya, kugira ngo barwanye inzara.

Izi ni inka ziri kumwe n'umushumba wazo, azicaye imbere. Izi nka zigaragara nk'izishonje, ariko izi nka zagiye no mu isoko wagira ngo bagiye kuzigurisha. Inka ni nziza, ni itungo rinini bagurisha bakabona amafaranga cyangwa se bagapfukama bakanywa amata.

Ibi ni ibirungo bakoresha mu kurunga imboga, byitwa puwavura. Akaba ari ibirungo bacuruza, abacuruzi bakakira amafaranga, n’ababa bijyanye kubiranguza bakabona amafaranga, bakarushaho kwiteza imbere. Ibi birungo bikunze guhingwa no mu Karere ka Musanze.

Ibi ni ibiri. ibirayi tukaba tubiryamo ifiriti cyangwa se tukabirya bitogosheje cyangwa se tubyokeje cyane ko ari'igihingwa kiboneka hafi mu gihugu hose.

Ubu ni ubuhinzi bw'imyembe n'ibigori, imyembe n'ubwoko bw'imbuto dukenera buri munsi, bikaba biturinda indwara, ibigori tubikoresha tunywamo igikoma, tunywa bakanabyengamo n'inzoga, bamwe na bamwe z'inkorano kandi zitemewe kandi ubwo buhinzi bw'ibigori, bukaboneka mu gihugu cyose.

Ibi ni ibiribwa byitwa ibijumba, ibijumba bikaba biri mu bitera imbaraga, bikomeza abantu bakagira imbaraga. Ibijumba kandi n'igihingwa kigaragara mu karere ka musanze, akaba ari kigurishwa abantu bakabona n'amafaranga mu buryo butandukanye.

Ubu ni ubucuruzi bw'ibiribwa bukorerwa ahantu runaka mu karere ka Musanze. Mu bucuruzi bugaragara mu karere ka Musanze harimo: ubucuruzi bw'inanasi, imyembe, ibitunguru, n'ibindi biribwa bitandukanye.

Aya ni amashu . Amashu akaba akoreshwa mu gutegura ibyo kurya bitandukanye birimo salade . Amashu kandi ni ubwoko bw'imboga bugurishwa abantu bakabona amafaranga, bakabasha kwiteza imbere harimo umuhinzi nyirayo arimo kureba niba yaba yeze.

Aya ni amatarasiy'indinganire. Amatarasi y'indinganire akaba akoreshwa mu kurwanya isuri, aya matarasi akaba yaraciwe mu Gataraga nk'uko bigaragara ko aciye ku musozi wa Gataraga. Amatarasi arwanya isuri kandi akarumbura n'ubutaka cyane cyane iyo hateye ibiti by'indumburabutaka nk'uko bihagaragara.

Ibi ni ibihaza akaba ari igihingwa ngandurarugo, igihingwa gikunzwe cyane kibihaza bakunze kurya, cyangwa se bakagurisha bakabona amafaranga bakarushaho kwiteza imbere.

Iyi foto icyo nyibonaho n'uko ar'ifoto igaragaza ubwoko bw'imbuto. Imbuto bita orange cyangwa se ibara rya orange akaba ari imbuto nziza cyane ikaba zidufasha mu kubaka umubiri.

Ibi ni ibinyampeke bitandukanye birimo ibishyimbo, harimo n'imbuto zitandukanye zirimo amacunga, hakaba n'imboga, bigaragara ko uyu muntu arimo gucuruza ibiribwa kugira abone amafaranga, akaba ari n'ibiribwa birinda indwara no kongera intungamubiri.

Ibi ni ibigori byanite mu bwanikiro bishayitse hejuru byumye, ibigori ni byiza tubikoresha iyo turi kubiryamo impungure, cyangwa se tubiryamo umutsima, cyangwa bakabikuramo inzoga, no kubinywamo igikoma; ibigori kandi banarabigurisha bigatanga amafaranga akaba ari igihingwa kiboneka hose mu gihugu.

Ubu ni ubunyobwa bubisi basaruye, buri mu mifuka, bataratonora cyangwa se ngo babuhure babe bajya kubwanika ahantu runaka, wenda bazabusyemo ifu, ariko ni ubunyobwa basaruye, bukiri mu bikonoshwa byabwo. Ubunyobwa ni bwiza cyane kuko buzamura intanga ngabo z'abagabo.

Ubu ni ubuhinzi bw'ibishyimbo, ibishyimbo ni ingirakamaro kuko ni bwoko bw'ibinyamisogwe, bukorerwa mu karere ka Musanze. Ibishyimbo kandi biragurishwa, abantu bakabona amafaranga.

Ibi ni ibinyampeke bitandukanye birimo: amashaza, birimo soya, n'ibindi. Ibi binyampeke byifashishwa mu gutegura amafunguro, cyangwa se mu gushesha igikoma, kugirango abantu babashe kugira ubuzima bwiza.

Ubu ni ubunyobwa bugaragara kuri iyi foto, akaba ari ubunyobwa buhuye neza, butonoye neza, butoranyijwe, akaba ari ubunyobwa bucuruzwa mu Karere ka Musanze. Akaba ubunyobwa ari ingenzi mu kurwanya imirire mibi, ubunyobwa ni bisinesi ikorerwa cyane mu Karere ka Musanze, cyane ko ari Akarere k' Umujyi bakunda utuntu tw'udusosi, nitwo tubagarurira ubuzima bwiza, bakagira uruhu rutoshye, murakoze.

Ibi ni ibihwagari bikorwamo amavuta atandukanye yo kurya, cyane cyane ay'amazi bakunda kwita igihwagari. Hakaba hari amavuta bakoresha, adafata bashyiramo macupa n'andi afata bashyira mu makarito.

Ubu ni ubworozi bw'inkwavu, kuko ndabona hari inkwavu zihari kuri iyi foto, hari n'umuntu urimo kuzigaburira. Ni inkwavu eshanu, ndimo kubona ariko bigaragara ko ari umuntu wabigize umwuga, kuko izi nkavu ari nyinshi.

Iyi ni inka. Inka ni itungo rinini ritanga amata n'amafaranga iyo barigurishije. Inka na none itanga ifumbire kandi itanga n'inyama zo kuribwa.

Aba ni abaganga b'amatungo bigaragara ko barimo kuvura itungo baritera inshinge, kugira ngo rize kugarura ubuzima bwiza. Itungo ry'ihene rimeze neza.

Izi ni ingurube ziryamye, zikaba ari ubworozi bw'ingurube butanga amafaranga, ingurube kandi barazirya, ndetse zigafasha abantu mu kwiteza imbere.

Ibi ni ibibwana by'ingurube. Ibibwana by'ingurube, akenshi bakaba bakunze kubyita umugana, ingurube ni nziza, zitanga inyama, zigatanga n'amafaranga, kandi baranazirya zikanaryoha bazita akabenzi.

Iyi foto yafotowe bafotora inyoni ifite n'amagi mu cyari cyayo. Akaba ari inyoni bigaragara ko ari inyoni zo mu bwoko bunini. Inyoni, iki ni icyari cyayo kirimo n'amagi.

Iki ni igisiga cya kagoma gikunze kwibasira cyane kurya imishwi y'inkoko. Igisiga ni ubwoko bw'inyoni bukunze kwibera mu kirere, bikaba bikunze no kuguruka, bamukerarugendo baza no kubisura, bigatanga amadovize.